Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, ku ntebe zifite ibara ry'umweru, ku madirishya hamanitse ibitambaro birinda urumuri, hagati hagaze umugabo wambaye ishati icaye imirongo yiganjemo ibara ritukura, ufite indangururamajwi mu ntoki.

Umuhanda w'umukara harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, indi modoka ifite ibara ry'ubururu n'umukara, yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo kugenda amapikipiki ahetse abantu, asa umutuku n'umweru.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama. Imbere hicaye umugabo wambaye ishati ndetse n'amadarubindi. Ukuboko kwe gufashe ku munwa, kwambaye isaha ku kuboko. Imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru.

Umugore uhagaze, ufite imisansi migufi, ufite indangururamajwi muntoki yayegereje umunwa, afite telefone ngendanwa mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko ndetse na impeta, inyuma ye hagaragara intebe zicayeho abantu bake.

Abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye mu cyumba kigaragara nk'ikiberamo inama imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umweru ateretseho impapuro telefoni ngendanwa ndetse n'amacupa

Abantu bane bicaye ahantu hari imbuga ifite amabara mensh,i bicaye mu ntebe zijya kugaragara nk'umweru, umwe muri bo wicaye ku ruhande wambaye imyenda y'umweru gusa afite indangururamajwi mu ntoki n'agakayi gatoya.

Abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bicaye ku mbuga y'igitaka ku ntebe z'udusongabugari, imbere yabo hagaze undi muntu umwe, inyuma hagaragara imodoka nini zitwara abagenzi zihahagaze.

Abantu bicaye mucyumba, bagaragara nk'abicaye mu matsinda, bicaye ku meza asasheho igitambaro cy'umukara, Arambitseho mudasobwa ,impapuro ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bake; bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi; inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Abantu bicaye mu matsinda bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi kibisi, bicaye ku ntebe z'umukara, hagaragara umukobwa ufite imisatsi iboshye miremire, wambaye ipantaro y'umweru, ugeretse akaguru kandi, ku meza hateretseho amacupa y'amazi.

Icyumba kimanitsemo ibitambaro byo ku madirishya birinda izuba bizinze, hateyemo ameza y'uruziga arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho telefone ngendanwa, mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, hicayeho abantu bagiye bayakikije mu buryo bw'amatsinda.

Imbuga y'igitaka yicayemo abantu bicaye ku ntebe, hari n'abandi bane bicaye kungiga y'igiti, inyuma yabo hagaragara igikuta cy'amatafari ahiye mo hagati harimo ibati.

Imbuga y'igitaka, iteyemo intebe zicayeho abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo n'abandi bahagaze, inyuma yabo hagaragara imodoka nini zitwara abagenzi ndetse n'amazu.

Abantu benshi bicaye mu ihema ry'umweru, hari bane bicaye imbere, harimo babiri bambaye umupira ujya gutukura w'amaboko magufi, imbere yabo hakaba hari imeza yarambitseho igitambaro cy'ubururu na terefone ngendanwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Abantu bane bicaranye moo hagati harimo abagore babiri umwe w'umwirabura n'undi w'umuzungukazi, ku mpande hicaye abagabo babiri bambaye amakoti bafite amakaramu mu ntoki, harimo uwambaye isaha n'amadarubindi wifashe mu gahanga, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu benshi bicaye hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'ubururu, imbere hicaye umugabo wambaye impuzankano y'ingabo z'igihugu, ugeretse akaguru ku kandi, imbere yabo hateretse imeza iriho ururabo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru ahantu hari imbuga y'umutuku bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hagaragara igikuta cyubakishije amatafari ahiye inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya, imbere hari akameza gatoya gateretseho indangururamajwi.

Abantu bagaragara nkabicaye mu cyumba k'inama, inyuma hari ururabo n'imiryango ibiri, bicaye ku ntebe zisa umukara, buri wese afite icupa ryamazi rimuteretse imbere.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya seleta, irimo iramanuka itwaye abagenzi buzuye kandi bose baricaye neza cyane ntawe ubyiga undi, mu muhanda harimo ibindi binyabiziga urugero nka moto n'ibindi.

Icyumba cyicawemo n'abantu batatu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, uwo hagati yambaye amadarubindi ku maso, imbere yabo hari ameza atukura atetseho indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk' ik'inama, imbere hahagaze umugore wambaye umwambaro wo hasi w'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye amadarubindi ku maso, inyuma ye hari idirishya rifite ibitambaro birinda urumuri.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bicaye ku ntebe zegamirwa z'ibiti inyuma kuri izo ntebe hamanitseho ibikapu baheka ku rutugu hagati hahagaze umugabo ku bikuta by'iyo nzu hamanitse igitambaro kiri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kirimo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, ku murongo wa mbere hicaye abazungu babiri ndetse n'umugabo n'umugore b'abirabura, umugore yambaye amadarubindi ku maso afite ikaramu ari kwandika imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye mu cyumba kigaragara nk'iy'inama, bicaye bazengurutse ameza ku ntebe z'umukara, imbere yabo ku meza hateretse impapuro, terefone ngendanwa, icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Abantu bicaye mu icyumba kigaragara nkicy'inama bicaye bazengurutse ameza icyumba gifite amatara abiri ari kwaka n'umuryango ukinguye imbere yabo kumeza hateretse amacupa y'amazi, hari umugabo uhagaze imbere yabo wambaye imyambaro irimo umukara.

Abantu benshi bicaye mu cyumba bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu abenshi muri bo bari kureba muri terefone zabo ngendanwa, hari n'ufite mudasobwa ku bibero n'amacupa y'amazi ateretse hasi.

Abantu bicaye mucyumba kigaragara nk'icyinama bicaye ku ntebe z'umukara abenshi muri bo bambaye amakoti n'amashati mw'imbere imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyumba kicayemo abantu benshi, abicaye imbere bicaye ku meza y'uruziga hariho agapapuro kanditseho gatanu mw'ibara ry'icyatsi, hateretseho amazi ndetse n'impapuro bamwe muribo bari kureba muri telefone zabo ngendanwa bafite mu ntoki.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Abantu batari benshi bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama imbere yabo ku meza hateretse amacupa na mudasobwa ifunze ndetse n'izifunguye hari n'abafite ikayi imbere yabo.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba k'inama imbere yabo ku meza hateretse amacupa n'impapuro, umwe muri bo ahetse umwana imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira uri mu ibara ritukura.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bazengurutse imeza ikoze mu giti, iteretseho indangururamajwi imbere ya buri umwe, bafite mudasobwa na telefoni ngendanwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bamwe muri bo bafite mudasobwa ku bibero, abandi bafite impapuro n'ikaramu bari kwandika, iruhande rw'umugabo wicaye imbere, hateretse igikapu hasi ku mbuga.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara wambaye n'ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye impeta ku rutoki n'isaha ku kuboko ndetse n'amadarubindi, inyuma ye hagarara mu ibara ry'ubururu handitsemo amagambo y'umweru.

Icyumba kigaragara nk'ikinama, cyicayemo abantu benshi bafite amacupa imbere yabo. Imbere hahagaze umugabo wambaye ikoti, ufite indangururamajwi mu ntoki. Mu idirishya hamanitsemo ibitambaro birinda urumuri biri mu ibara ry'umuhondo.

Abantu bahagaze mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, inyuma yabo hari intebe zirimo ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho ibyo kunywa muri bo harimo umugore umwe wicaye.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama, imbere yabo ku meza hari ibyo kunywa bitandukanye amakayi ndetse n'indangururamajwi, inyuma ku madirishya hari ibitambaro birinda urumuri.

Icyumba kigaragara nkicy'inama gifite umuryango ukinguye cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa imbere hari umugabo uhagaze .

Abantu bicaye hamwe imbere hicaye abagabo babiri, umwe yambaye ikote ry'umukara n'isaha ku kuboko, undi yambaye amadarubindi ku maso nta musatsi na mukeya afite, afite telefone ye ngendanwa mu ntoki ndetse n'ikaramu imbere y'abo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu bake bicaye mucyumba kigaragara nk'icyinama imbere yabo hari ameza ariho amacupa, impapuro, terefone ngendanwa, hari n'ufite mudasobwa imbere ye wambaye amadarubindi, ku gikuta hamanitse isakazamashusho.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama harimo umugore wambaye imyenda itari miremire, harimo n'umugabo w'umuzungu wambaye ikote ritukura bafite indangururamajwi imbere yabo, hari n'umugore wicaye ku ruhande wambaye imyambaro y'icyatsi, ndetse n'amadarubindi.

Abantu benshi bagaragara nk'abicaye mu ihema, hagati hari imbuga isashemo amabuye, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umukara, ufite indangururamajwi.

Icyumba kirimo ameza y'uruziga asasheho ibitambaro by'umweru, amwe muri yo akikijwe n'abantu bicaye n'abandi bahagaze, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, hagati yabo harimo imbuga y'igitaka, ihagazemo umugore ufite impapuro mu ntoki.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ibitambaro by'umweru, hari n'amacupa, n'utwapa tw'umweru turiho idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo n'umugore bicaye mu cyumba kigaragara nkaho ari ik'inama ku ntebe z'umukara, umugore afite ikaramu mu ntoki ari kwandika mu ikayi hari urupapuro imbere ye, umugabo imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'amadarobindi.

Abagabo batatu bicaye mucyumba kigaragara nk' icy'inama gifite umuryango ukinguye wicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara babiri begeranye bari guseka undi yifashe ku munwa ari no kwandika imbere yabo hari ameza arimo ibara ritukura ateretseho indangururamajwi.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru n'urugi rukinguye ari rumwe, kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu benshi, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro ndetse na mudasobwa.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba k'inama imbere yabo hari ameza ariho terefone ngendanwa, ibyo kunywa, utudarapo dutoya, hariho indabo, hasasheho n'igitambaro cy'umweru bamwe muri bo bambaye amadarobindi.

Umukobwa uhagaze mu gisambu, ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye amadarubindi, haruguru ye hari ikigega cy'umukara, kibika kirimo amazi y'imvura, haruguru yacyo hicaye abantu benshi, haruguru yabo hateye urutoki.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama imbere hari intebe z'umukara ziriho ubusa mbere yazo hari ameza mato y'uruziga ateretseho amacupa y'amazi n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki uhagaze imbere wambaye n'amadarubindi imbere ye hari abantu bambaye impuzankano z'ubururu.

Abantu benshi bicaye hamwe, imbere hicaye umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, usobekeranyije amaboko yifashe mu gatuza yambaye amadarubindi ku maso, imbere yabo hateretse imeza iriho telefone ngendanwa ndetse n'igitabo.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama bambaye imyambaro y'amabara atandukanye imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa imbere yabo hahagaze umuntu hakurya ye mu idirishya hamanitse igitambaro kirinda urumuri.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara zizengurutse ameza y'uruziga imbere yabo kumeza hatetseho amacupa ndetse n'ibirahuri by'amazi ku meza y'imbere hicaye abazungu babiri b'umugabo ndetse umugore bari kureba inyuma.

Icyumba kigaragara nk'ikiberamo inama, cyicayemo abantu bicaye bazengurutse ameza ku ntebe z'umukara, gifite ibikuta by'umweru ndetse n'ibitambaro birinda urumuri by'umweru, kimanitseho imitako y'ingabo, ku meza hari terefone ngendanwa, amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'abo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umuhondo ateretseho amacupa y'amazi ndetse na telefone ngendanwa, ku ruhande hari umugore ufite indangururamajwi wambaye ikanzu n'amadarubindi, ku gikuta cy'umweru kiri inyuma hari umutako w'abantu bari gucuranga inanga.

Abantu bicaye mu cyumba kinini, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'umukara, hagati y'intebe hateretse ameza matoya, ateretseho amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, abenshi muri bo bafite telefone zabo ngendanwa mu ntoki bazizamuye.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe z'umukara, harimo umwe ufite indangururamajwi na mudasobwa imbere ye, imbere yabo ku meza hateretse amacupa.

Inyubako igaragara igice cyo hasi yubakishije amatafari ahiye munsi yayo hari igisambu cyicayemo abantu benshi imbere yabo hari imbuga y'igitaka ihagazemo abantu bane haruguru hari insakazamajwi ebyiri zigerekeranye zirimo ibara y'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nkik'inama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi washyize amaboko inyuma, imbere yabo kumeza hari amazi ndetse n'indangururamajwi, hari n'abafite mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'ikiberamo inama, cyicayemo abantu bazengurutse ameza y'igiti ateretseho mudasobwa, impapuro ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare yayihinnye iri mu ibara ry'ubururu n'ingofero y'ubururu ufite indangururamajwi mu ntoki yayegereje umunwa inyuma ye ahagaze abandi bantu batagaragara neza.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru n'ameza asasheho ibitambaro by'umweru, hari ibikuta by'umweru n'umuntu uhagaze imbere yabo wambaye umupira w'amaboko magufiya w'umweru.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hagati ye hari urugi runini rw'icyatsi kibisi, n'imbere hagaragara inzu y'igorofa, ndende cyane iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'ishami ry'igiti rigaragara.

Abagabo babiri bahagararanye harimo umuzungu umwe wambaye ikote ry'umukara hamwe n'umwirabura mugufi wambaye ingofero y'umweru, inyuma yabo hari ameza atetseho mudasobwa.

Mudasobwa eshanu terefone ngendanwa ndetse n'impapuro biteretse ku meza agaragara mu ibara ritukura azengurutswe n'abantu bayicaye iruhande, umwe muri bo ari gutunga urutoki muri mudasobwa.

Igisambu kirimo ibiti, kicayemo n'inyamaswa bita ingagi, iri mu ibara ry'umukara, munsi handitse amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ari mu nyuguti ntoya.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare wa runiga, ugaragara mu ibara ry'ubururu afite terefone ngendanwa mu ntoki agaragara nk'uri kuyerekana, ukundi kuboko kwe kuyitunze urutoki.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ukenyeje umukandara w'umukara, ufite ikote ku rutugu, ufite terefone ngendanwa mu ntoki, inyuma ye hari igishushanyo cya terefone ngendanwa ndende imusumba.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru ifite inzugi zikinguye ikaba ifite inzu imigezi y'imibara y'ibyatsi, n'iziri mu ibara ry'umuhondo hejuru hamanitse icyapa kii ibara ry'ubururu kirimo amadarapo y'ubugu n'ubwongereza ndetse n'amerika.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu ihema hari babiri begeranye, umwe wambaye umupira w'umweru, undi yambaye ingofero mu mutwe n'umupira w'umutuku. Imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro, ateretseho ikaramu y'ubururu, terefone ngendanwa ndetse na mudasobwa.

Umugabo utagaragara mu isura wambaye ishati y'amaboko maremare y'umutuku urimo utudomo tw'umuhondo, imbere ye afite mudasobwa iri kwaka irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru iteretse ku meza ateretseho na terefone ngendanwa.

Abagabo batatu bahagaze mu gisambu, bambaye imipira y'ubururu, babiri bo ku mpande bambaye amapantaro y'umukara, imbere yabo hateretse igikapu cyo mu mugongo, inyuma yabo hagaragara iminara.

Umugabo utagaragara neza mu isura, imbere ye afite mudasobwa iri kwaka yatunzemo urutoki, mo ibereye muri mudasobwa handitsemo amagambo, harimo n'agashushanyo k'ikiganza gifite terefone ngendanwa mu ntoki.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi wirabura, wambaye ingofero y'umukara mu mutwe, ufite terefone ngendanwa agaragara igice cy'igihimba.

Umusore wambaye umupira w'amaboko muremure wa runiga uri mu ibara ry'ubururu, afite terefone ngendanwa mu kiganza ari kuyerekana iri kwaka yanditsemo amagambo ukundi kuboko gutunze urutoki hirya.

Abagabo bicaye hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, iri mu bwoko bw'amashati, bose bafite telefone ngendanwa mu ntoki, imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'amacupa.

Abagabo babiri barimo baragenda n'umugore umwe uri imbere yabo, umugabo umwe yambaye ishati ya karokaro irimo amabara atandukanye ubururu, umukara, hasi ikabutura y'umukara mugenzi we akaba yambaye ipantaro y'ubururu na bage n'umupira w'umukara.

Abantu bagaragara nk'abashushanyije bambaye udupfukamunwa mu isura, babiri muri bo bambaye ingofero, undi yambaye impuzangano y'abaganga n'igikoresho bakoresha kwa muganga mu ijosi.

Iminara ibiri ifasheho insinga, yubakishije ibyuma birebire, bisa nkiyenda gukora mu kirere, hejuru hagaragara ikirere kiri mu mabara abiri, ari yo ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umugore hagaragara icyapa kirekire kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo inyuguti nini ya P hakoreshejwe ibara ry'umweru munsi hashushanyije imodoka y'umweru itwara abagenzi ku mpande hagaragara indabo ndetse n'ibiti .

Ahantu hari inzu itararangizwa kubakwa, munsi yayo hagaragara icyapa gishinze mu gisambu, kiri mu ibara ry'umweru, cyanditsemo amagambo y'umutuku ndetse n'umukara i ruhande rwacyo hari imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo iri mu ibara ritukura, inyuma yayo hari umuntu ugaragara igice cy'igihimba.

Inzu ebyiri zegeranye, zisakaje amabati ari mu ibara ry'umukara, haruguru yaho hashinze igiti gishinzwe gufata insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwacyo hakaba hateye ibiti birebire.

Agace gato ku muhanda gafatanye n'ubusitani bugaragara nk'ubwumye, hateyemo ibiti bikiri bugufiya ku ruhande hari urukuta rw'amatafari ahiye, mo imbere hagaragara inzu isakarishije amategura, hari n'ikigega cy'umukara kibika amazi y'imvura.

Ubusitani bukikijwe n'indabo z'umuhondo, hagati hashinzemo igiti gishinzwe gufata insinga zikwirakwiza umuriro wa amashanyarazi, Hejuru hagaragara ikirere gisa nicyijimye.

Abantu bamabaye impuzankano z'ubururu bambaye n'ingofero z'imihondo mu mutwe, umwe muri bo ari kuzamuka hejuru ku rwego undi ari kureba mu byuma bihubatse.

Inyubako ifite imbuga y'umweru imbere yayo, ifatanye n'ubusitani buzengurutswe n'indabo ngufiya, hateyemo ibiti by'imikindo, hagaragara n'indi mbuga ihagazemo imodoka z'ubwoko butandukanye.

Imbuga isashemo amabuye iri kugendamo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, umwe muri bo afite akajerekani gato mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka z'umweru n'inzu yubakishijwe amabati y'umutuku.

umugore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipanaro y'icyatsi kibisi ufite ibintu mu ntoki uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwangiritse agana ahantu hari inzu ifite amabati y'umutuku, haruguru hakaba hari ubusitani burimo indabo n'ibiti.

Ubusitani bugari, bukikijwe n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, iruhande rw'inyubako hateretse amashashi arimo ibintu, agaragara mu ibara ry'umuhondo ndetse n'indobo y'umutuku ipfundikiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo urombereje harimo umugabo ugiye kwambuka n'umumotari uparitse umeze nkaho akuyeho umugenzi n'abamama benshi bahagaze imbere ya kandagira ukarabe, ku nyubako ikikijwe n'igipangu cy'ibyuma iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye n'amategura n'amabati y'ubururu, hafi yayo hari ikigega cyubakishije ibyuma gisa umukara hari n'ibiti birebire.

Abantu benshi bicaye imbere y'inzu isize amabara atukura, ay'umuhondo ndetse n'ay'ubururu ifite inzugi n'amadirishya by'umweru hari abantu bahagaze mu madirishya bari kureba mo imbere.

Umugore ufite ibintu byinshi mu ntoki, ufite terefone ngendanwa ku gutwi, uhagaze ku mbuga isashemo amabuye hagaragara igicucucucu k'igiti inyuma ye hari igorofa.

Abagabo babiri bambaye impuzangano igaragara nk'iy'abagororwa, inyuma yabo hari umugabo wambaye ikote rifite ibara rigaragara nk'ivu, wambaye isaha ku kuboko, bahagaze mu muryango ukinguye.

Kizimyamwoto, iyingiyi ishobora kugufasha mu gihe mu nyubako habaye inkongi y'umuriro, kubera yuko iba iri hafi, ushobora guhita uyifashisha, ugakumira iyo nkongi y'umuriro itaraba nini.

Abantu benshi bambaye impuzangano z'umutuku, umweru, ndetse n'umukara, imbere hari umugore wambaye amadarubindi n'igitambaro, hejuru ashyiraho ingofero, ku ruhande hari umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, wambaye ibitandukanye n'ibyabo.

Umugore uhagaze imbere y'ameza maremare wambaye imyambaro y'umukara' imbere ye yicaye abantu bicaye ku ntebe z'umukara bambaye udupfukamunwa bafite ibyo kunywa imbere yabo ku meza ndetse na mudasobwa.

Umugore wambaye amadarubindi ufite igikapu cy'umukara ku rutugu uri kureba undi mugore wambaye impuzankano ifite idarapo ry'u Rwanda ku kuboko arimo aramwambika amapingu.

Umugabo wirabura, utari guseka, uri kugaragara igice cy'igihemba, wambaye imyambaro iri mu mabara y'umutuku, umukara, yambaye n'ishati y'umweru.

Abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'imbaho, hagati yabo hari imbuga y'igitaka ihagazemo umugore wambaye ijipo, ndetse n'ikote ufite urupapuro mu ntoki inyuma yabo hagaragara ibiti.

Abagabo bahagaze ku mirongo ibiri bambaye amakabutura ndetse n'amashati bigaragara nk'impuzankano z'abagororwa inyuma yabo hari imodoka iri guturukamo abandi bagenzi babo ku mpande hahagaze abagabo babiri bambaye ingofero ndetse nudupfukamunwa bafite imbunda .

Icyapa giteye mu gisambu kiriho umugabo wifashe mu mutwe wambaye isaha ku kuboko, munsi ye hari abagore babiri bahagararanye, munsi y'icyapa hari imbuga ihagazemo imodoka ebyiri.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, wambaye isaha ku kuboko ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye ku meza hateretse impapuro, ikirahuri kirimo amazi ndetse n'amacupa abiri.

Icyumba gifite imbuga y'umutuku, giteyemo intebe zibajijwe mu mbaho, hicayemo abantu bake bicaye batandukanye basizemo umwanya, bambaye agapfukamunwa, hagati y'abagabo babiri bicaye imbere bateretsemo igikapu.

Umuntu wambaye imyenda iri mu ibara ritukura wambaye ingofero mu mutwe wicaye, imbere ye hari ameza ariho impapuro ndetse n'indangururamajwi, kurundi ruhande rw'ameza hunamye umugabo wambaye imyambaro y'umukara ufite ikaramu mu ntoki, inyuma ye hari intebe y'umukara.

Umugabo wambaye ikanzu ndetse n'ingofero m'umutwe, uhagaze hagati y'abagabo babiri bambaye impuzangano za gipolisi, inyuma y'abo hakaba hari imodoka n'umuntu uri inyuma yayo.

Abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bitwikiriye imitaka, bicaye mu gisambu munsi y'igiti bakikije umugabo wambaye ishati ndetse n'ikabutura bigaragara nk'impuzankano y'abagororwa.

Abagabo batatu bahagaze bagaragara igice cy'igihimba, bose bambaye imyambaro igaragara mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, uwo ku ruhande yambaye amadarubindi ku maso, afite na Mudasobwa imuteretse imbere.

Umugore winzobe ugaragara igihimba wasize ibara ritukura ku munwa, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye imyambaro iri mumabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo ugaragara igihimba wambaye ikote ry'ubururu bwijimye ndetse n'ishati y'umweru wambaye amadarubindi ku maso iruhande rwe hateritse icupa kurundi ruhande rwe hagaragarara abandi bantu babiri.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse bamwe muribo bazamuye ikiganza bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Imbere y'abo hari amadapo yo mu ibara ry'ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi bari kureba abandi bicaye imbere y'abo bambaye impuzankano iri mu ibara ritukura.

Abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye mu gisambu, imbere yabo hari n'ibiti hagati bahagaze umugabo wambaye ishati y'igitenge, imbere ye hari abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza y'igiti.

Abantu benshi badafite imisatsi bambaye amashati ndetse n'amakabutura bigaragara nk'impuzankano y'abagororwa bahagaze imbere y'inyubako ndende ifite ibikuta by'amatafari ahiye.

Abantu benshi bicaye mu gisambu munsi y'ibiti birebire bakikije umugabo ubahagazemo hagati ufite impapuro muntoki wambaye n'ikoti ry'umukara.

Umugabo wirabura utari guseka udafite umusatsi ku kumutwe, ugaragara igice cy' igihimba yambaye umwambaro uri mumabara abiri ibara ritukura ndetse n'irindi rijya gusa nkumweru.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi yayegereje umunwa wamabye isaha ku kuboko, imbere ye hari ameza y'igiti ateretseho icyo kunywa.

Icyumba kirimo abantu bambaye impuzangano zisa ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru bazamuye ibiganza hejuru iruhande rwabo hari amadarapo mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi imbere yabo hicaye umuntu wambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umugore ugaragara igihimba wambaye imyambaro iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru wambaye ingofero mu mutwe wambaye n'amadarubindi utari guseka .

Abantu benshi bicaye mu gisambu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo n'abafite imitaka iri mu mabara menshi imbere yabo bahagaze umugabo wambaye ikabutura n'ishati bigaragara nk'impuzankano y'abagororwa inyuma yaho hakaba hari inyubako inyuma y'inyubako hateye urutoki.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye imyenda igaragara nk'impuzankano y'abagororwa, ufite ikaye y'ubururu mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa.

Abantu bicaye ari babiri babiri kuri buri meza bambaye impuzankano igaragara nk'iy'abagororwa bambaye udupfukamunwa mu isura ameza ateretseho mudasobwa inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda ndetse n'ingofero wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Ameza y'igiti arambitseho ibitabo, imbere yayo hicara abagabo bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bafite igitambaro ku rutugu kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugore wambaye amadarubindi udafite umusatsi wambaye ikanzu igaragara nk'impuzankano y'abagororwa inyuma ye hahagaze abantu babiri bambaye impuzankano zisa inyuma ye hari n'imodoka.

Umugabo w'umwirabura wambaye impeta ebyiri kumaboko yombi, ufite indangururamajwi mu ntoki, uhagaze imbere ye har' idarapo, iri mumabara y'ubururu ,umuhondo ndetse nicyatsi kibisi, inyuma ye hari ibitambaro birinda izuba bimanitse ku rugi.

Umugabo wirabura ugaragara igice cy'igihimba, uhagaze atari guseka, wambaye umwambaro ugaragara mu mabara abiri, ufitemo umutuku, umweru ndetse yambaye ishati y'ubururu mw'imbere.

Abagabo babiri badafite imisatsi umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye imyambaro yo mu mabara y'umukara, ndetse n'umweru afite terefone ngendanwa mu ntoki yicaranye n'uwambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abagororwa.

Abagabo bambaye impuzangano igaragara nk'iy'abagororwa, bafite ibikoresho by'ubwubatsi bigiye bitandukanye, bari kuzamuka iruhande rw'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Agahanda gashashemo amabuye, kari kugendamo umugabo wambaye ishati y'igitenge, imbere hari umupolisi wambaye impuzangano ya gipolisi, imbere ye hakaba hagaragara ingorofani iriho imifuka ibiri, n'umuyonzi utwaye ibintu bimeze nk'ibiti birebire biziritse.

Mu muhanda wa kaburimbo imbere yawo hagaragara inyubako ifite ibati rijya gusa nk'ubururu rimanitseho ibyapa byinshi munsi yayo hahagaze umugabo wambaye impuzankano ya gipolisi n'imodoka ndetse n'ipikipiki.

Abantu bahagaze hamwe begeranye, bambaye impuzankano za gipolisi, bafite imbunda ku rutugu, iruhande rwabo hahagaze ibinyabiziga by'umweru.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo umuntu wambaye impuzankano y'abapolisi ari kureba inyuma imbere yiwe hari ingorofani irimo umufuka w'umweru imbere hakagaragara icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ipikipiki .

Abagabo babiri bahagararanye bari guseka umwe yambaye impuzangano y'abapolisi, undi yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru mu imbere ukuboko kumwe kw'iwe gufashe ku kananwa, inyuma yabo hari ikirangantego k'igihugu cy' u Rwanda.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara hagati y'amadarapo abiri, rimwe ririmo ikirangantego cy'u Rwanda irindi ririmo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, afite umusatsi mugufi, yambaye amadarubindi ku maso n'imyambaro iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi ugaragara igice cy'igihimba, yambaye umwambaro urimo umweru ndetse n'umukara. Afite igikapu mu ntoki, akagikurikiye inyuma ku rutugu . Inyuma ye hari abagabo batatu iheme ndetse n' ibiti

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu Rwanda.

Umugabo wambaye ishati ifite ibifungo by'umukara, ugaragara igice cy'igihimba, ufite indangururamajwi mu ntoki, yayegereje umunwa, inyuma ye hari abagabo babiri bambaye amashati y'umweru.

Umugabo uhagaze wazamuye ikiganza wambaye ikote ndetse n'ishati mo imbere, yambaye amadarubindi ku maso afite imisatsi y'amasoso, iruhande rwe hari idarapo, k'urundi ruhande hari umugore wambaye imikenyero n'umugabo ufite ikayi mu ntoki iri mu ibara ry'ubururu, yambaye ingofero n'imyenda yo mubara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, impapuro ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru bafite impapuro mu ntoki bahagaze bazengurutse imeza y'umweru iteretseho impapuro ndetse n'icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari ameza arambuho igitambaro cy'umweru hariho n'amacupa y'amazi, mu mpande ze hicaye abantu bambaye imyambaro y'umweru, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma ye hagaragarara igikuta cy'umweru kimanitseho icyapa.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro ndetse n'ishati y'umweru, wambaye amadarubindi ku maso, ufite umusatsi w'amasoso, imbere ye hateretse indangururamajwi, inyuma ye hakagaragara igivunge cy'abantu kitagaragara neza.

Umugore ukuze wambaye urunigi mu ijosi n'imikenyero, ahagaze amanitse ukuboko nk'uri kurahira. Ahagaze iruhande rw'ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru, ifite ibifu by'umukara wambaye amadarubindi ku maso, ugaragara igice cy'igihimba afite indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, ku ntebe z'ubururu imbere hicaye umugabo wegamye wambaye amadarubindi, yazamuye urutoki ari kureba mugenzi we umuri iruhande.

Umugabo ugaragara igihimba wambaye ikote rifunze igifungo kimwe n'ishati iri mu ibara rijya kuba ubururu wambaye amadarubindi uri guseka ufite amasoso, afite n'impeta ku rutoki.

Abantu, imodoka, inzu ,nsinga, ipoto, kaburimbo, imitaka ibiri, n'abagenti ba emutiyeni.

Umugore ufite imisatsi migufiya y'umukara, wambaye amadarubindi ku maso, wicaye ku ntebe yo mu ibara ry'umukara, wambaye ikote riciyemo imirongo y'umukara n'umweru, imbere ye hateretse indangururamajwi ebyiri.

Abantu bicaye muburyo bw'uruziga ku ntebe z'umweru ahantu hari imbuga y'umuhondo abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi y'icyatsi kibisi hari n'ufite ikaye mu ntoki umwe muri bo afite urupapuro mu ntoki yambaye n'amadarubindi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu benshi bahagaze hamwe ku kumurongo harimo abagabo ndetse n'abagore, abagore bambaye imyambaro y'imikenyero, abagabo bambaye amakoti n'amapantaro ndetse n'amashati, inyuma yabo hamanitse amadapo abiri.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare; ifite ibifungo by'umweru, ufite urupapuro ruzinze mu ntoki, wambaye impeta ku rutoki ndetse n'amadarubindi, afite umusatsi w'amasoso.

Abantu benshi bahagaze bacecetse, ahantu hagaragara nka'hijimye, bafite utudarapo mu ntoki turi mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati igaragara nk'itukura, yayihiniye mu nkokora, yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, yazamuye ukuboko afunga igipfunsi.

Abantu bahagaze higanjemo abagore ndetse n'umugabo umwe, umugabo yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, abagore bambaye imyambaro iri mu bwoko bw'imikenyero, iruhande rwabo hateretse amabendera afite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bazamuye utudarapo dutoya turi mu ibara ry'umutuku, umweruru ndetse n'ubururu, abenshi muri bo bambaye imyambaro y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu. Imbere hagaragara umugore wazamuye amaboko, wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi.

Umugabo w'umwirabura wambaye amadarubindi kumaso wambaye ikote riciyemo imirongo igaragara nkumweru wambaye nishati yumweru imbere yiwe hateretse indangururamajwi ebyiri ntoya .

Abagabo batatu bahagararanye, babiri bambaye amakote, undi wo ku ruhande yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, uwo hagati afite urupapuro mu ntoki ndetse n'indangururamajwi imuteretse imbere, inyuma ye hicaye umugore wambaye imyambaro y'umukara n'amadarubindi k'umaso, hari n'inyubako zibari inyuma.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi y'umweruru, wazamuye ikiganza, wambaye impeta ku rutoki ndetse n'isaha ku kuboko, ufite akadarapo gato mu ntoki kari mu mabara y'umuhondo n'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, ahagaze mu bantu benshi bicaye.

Umugabo uhagaze wambaye ipantalo n'ikote ry'uburu bisa imbere yambaye umupira w'umweru hari indangururamajwi imuteretse imbere, inyuma ye hicaye abantu bicaye ku nzebe z'imbaho, imbere yabo hateretse imeza isasheho igitambaro cy'ubururu.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye yiganjemo umweru, hari umugore wicaye uteze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, imbere ye hakaba hari umugore wunamye wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, munsi ye hari agasanduku kagaragara mu ibara ry'umweru.

Umusore wambaye umupira uciye amaboko wo mu ibara ritukura; uhagaze hagati y'imodoka ebyiri zitwara abagenzi; imwe muri zo hashushanyijeho umukobwa uhagaze watandaraje amaguru, yazamuye amaboko hejuru mu kirere.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uhagazemo imodoka nini y'ubwikorezi itagaragara yose iri mu mabara y'umweru, ndetse n'umuhondo imbere yayo hari ibindi binyabiziga byinshi hagaragara n'ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, hagaragaramo umunyonzi wambaye ingofero y'umutuku, uhetse umugenzi wambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umweru, iruhande rwabo hari imodoka nini y'ubwikorezi yo mui ibara ritukura, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ufatanye nk'agace gatoya gashashemo amabuye, uri kugendamo ipikipiki, hagati hateye ubusitani butoya, hari n'ibiti by'imikindo, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti buri mu bwoko bw'imikindo, haruguru hari undi muhanda wa kaburimbo uri gucamo imodoka ntoya, hepfo yawo hateye ibiti bimeze nk'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ntoya z'umukara ndetse n'amapikipiki, hagati mu muhanda hari ubusitani butoya, buteyemo ibiti by'imikindo, hakurya y'umuhanda hagaragara ibindi biti.

Umunyonzi utwaye umuntu ku igare, umuntu wambaye ingofero iri mu mabara atandukanye, umunyonzi yambaye inkweto zo mu ibara ry'ubururu, iruhande rwabo mu muhanda wa kaburimbo hari imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakurya hateye ibiti.

Imbuga ya kaburimbo iciyemo imirongo y'umweru itari miremire haruguru yayo hahagaze imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, haruguru yayo haciye imirongo imeze nk'iya mbere, haruguru yayo hari imodoka isa nk'iya mbere.

Umukingo wubakishijwe amatafari y'amasarabwayi hejuru hari agahandada gato gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo usa nk'uwajemo ikinogo, hari kugendamo imodoka y'amapine atatu, hakurya hari kugenda umugenzi hateye n'ibiti.

Agace gato k'imbuga isashema amabuye, gafatanye n'indi mbuga ya kaburimbo, ihagazemo imodoka y'umweru, n'abantu babiri batagaragara umutwe, umwe yambaye ikabutura y'umweru, undi yambaye ipantaro y'umukara.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi ifite amabara menshi inyuma yaho hari ipikipiki ndetse n'umunyonzi ku mpande z'umuhanda hateye ibiti .

Agahanda gasashemo amabuye karimo umugenzi uri gusunika igare riteretseho umufuka munini, iruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'ubwikorezi ndetse n'indi modoka itwara abagenzi.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Umuhanda wa kaburimbo, uri gucamo ipikipiki ihetse umuntu wambaye ikote n'igikapu cy'umukara mu mugongo, imbere yayo hari kunyura imodoka nini y'ubwikorezi, ifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda usashemo amabuye, ufatanyije n'uwa kaburimbo uhagazemo ibinyabiziga, hari igare igice kimwe cyayo kiri mu muhanda wa kaburimbo, ikindi kiri mu muhanda w'amabuye, i ruhande rwayo hahagaze umuntu urifasheho, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro iri mu ibara rigaragara nk'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ntoya iri mu ibara ry'umweru hagati hari ubusitani butoya buri hagati y'umuhanda uteyemo ibiti by'imikindo, hakurya hagaragara ibiti byinshi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo wishushanyijemo umurongo muremure w'umweru hari kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo igiti kinini kizengurutswe n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo.

Imbuga y'igitaka, ihagazemo imodoka eshatu z'umweru, imbere y'imodoka ya mbere hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara utagaragara umutwe, imbere yazo hari agahanda k'abanyamaguru, imbere yako hari agace gato ka kaburimbo.

Imbuga isashemo amabuye ifatanyeje n'undi wa kaburimbo urimo imodoka eshatu z'umweru, imbere yaho hari ahantu hateye ibiti bikiri bito by'imikindo imbere y'inyubako.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo ikinogo, uri kugendamo amapikipiki abiri n'indi modoka y'amapine atatu, hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire.

Imbuga ya kaburimbo ihagazemo imodoka yanditseho amagambo y'ubururu ndetse n'umubare igihumbi n'icumi, munsi hari icupa ryatakaye hasi, ku ruhande hagaragara inyubako igice gitoya cyo hasi.

Agace gato k'imbuga isashemo amabuye, gahagazemo umugabo wambaye ipantaroro y'umukara ndetse na bote, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka nini cyane y'ubwikorezi iri mu ibara ry'ubururu, aho batwara imizigo, hari imizigo itwikirije shitingi ihambirije imigozi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka eshatu ziri mu mabara atandukanye imwe iri mui ibara ry'umweru indi ikaba iri mu ibara ritukura iyindi iri mu ibara ry'ubururu bwijimye hakurya y'umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'amapikipiki ari kuwunyuramo .

Umuhanda mugari wa kaburimbo, urimo imodoka ebyiri, imwe ntoya iri mu ibara ry'icyatsi, iyindi nini ifite ibara ry'umweru, hakurya y'umuhanda ahari ibiti byinshi, bigaragara nk'igihuru.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uciyemo imirongo y'umweru igiye itaragurika, hahagazemo imodoka iri mu ibara ry'umweru bakoresha mu bw'ubatsi, imbere hagaragara amazu, iyindi modoka ntoya ndetse n'abantu.

Igice gito cy'imbuga ishashemo amabuye, ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uhagazemo imodoka ebyiri z'umweru ntoya, i ruhande rwazo haciye umurongo w'umweru ugiye utaragurika mu muhanda wa kaburimbo.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo umusore uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uhagazemo ibinyabiziga binini by'ubwikorezi biri mu mabara atandukanye.

Abadamu babiri umwe witandiye, undi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara barasinya ndetse bakuzuza ku bipapuro bibateretse imbere ku meza iriho amazi ndetse n'ibindi bipapuro byabugenewe.

Imbuga irimo imodoka nini n'intoya zitwara abagenzi hari umuhungu uri kunyura imbere y'imodoka nini ufite indobo mu ntoki wambaye ipantaro y'icyatsi hakurya yaho hari amagorofa n'amatara ari kwaka.

Ni muhanda wa kaburimbo uri ku kugendamo n'imodoka y'amapine atatu iri mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hagaragara igice cy'inyuma cy'imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umutuku ifite umucanga aho batwara imizigo, hakurya hagaragara inzu y'igorofa itararangiza kubakwa.

Imodoka nini cyane y'ubwikorezi igaragara mu ibara ry'ubururu, inyuma yayo ikurikiwe n'indi y'ubwikorezi ntoya iri mu ibara ry'umweru iri gutambuka mu muhanda w'igitaka. Hakurya yayo hakaba hateye ibiti mu gice cy'ibumoso, ku ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igare n'ipikipiki.

Umuntu uri kugenda mu gahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umweru y'ubwikorezi, iruhande rwayo hari imodoka itwara abantu y'umweru ndetse n'ubururu, hakurya yaho hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nkurimo ikinogo uhagazemo imodoka nini y'ubwikorezi iri mw'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakurya yayo mu muhanda w'abanyamaguru hari gutambukamo umugenzi, hakurya yawo hari ibiti birebire.

Icyapa kirekire kiziritseho imigozi igera kuri ine, gishushanyijeho inyuguti ya pa, n'imodoka itwara abagenzi biri mu'i ibara ry'umweru, icyapa gisa ubururu iruhande rwacyo hamanitse icyapa kinini kiriho intore zambaye imigara ziri kubyina.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amagare, ku igare hari umugabo uhetse igikapu cy'umukara, wambaye n'ingofero mu mutwe, umwanya wicaraho abagenzi awutwayeho imifuka, hakurya yabo haparitse imodoka ntoya.

Agahanda gashashemo amabuye gafatanye n' umuhanda wa kaburimbo. Uhagezemo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ritukura. Aho batwara imizigo. Hameze nkaharimo umucanga utwikirije ishitingi y' umukara , hakurya hagaragara ibiti birebire.

Imbuga isashemo amabuye y'amabara atandukanye harimo urujya n'uruza rw'abantu. Hagati hateye igiti, hepfo no haruguru y'aho hagaragara amagorofa.

Imbuga isashe mo amabuye ikaba ifite igice gitoya giteye mu ubusitani harimo n'ibiti bikiri bigufiya ,hakaba hahagaze imodoka igaragara mu ibara ry'umweru hakurya hakaba hateye ibiti birebire hari n'amatara maremare yo ku muhanda.

Imbuga igaragara nk'ikibuga k'imikino ifite amabara menshi atandukanye, yiganjemo icyatsi kibisi n'umutuku, haruguru hari ubusitani bwicayemo abantu hirya yabwo harunze amabuye menshi y'amasarabwayi hagaragara n'ibiti.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijemo uruziga rw'umutuku mu imbere rwanditsemo mirongo itatu mu ibara ry'umukara, munsi hakaba hari umurongo utambitse w'ibara ry'umukara wanditsemo amagambo y'umweru.

Ubusitani butoya buteyemo icyapa kiri mu buryo bw'uruziga kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, cyanditsemo inyuguti nini ya pa hakoreshejwe ibara ry'umukara iciyemo umurongo uberamye w'umutuku ufatanye n'umuhanda wa kaburimbo.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko kwa Sekimondo ifite ibyumba bitatu birarwamo n'ibindi byumba bitatu by'ubwogero muri buri cyumba hakabamo akantu kabikwamo imyenda ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'u Rwanda.

Uruziga rw'umutuku rushushanyije ahantu h'umweru mo imbere harimo inyuguti nini ya pa iciyemo umurongo uberamye uri mw'ibara ritukura.

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara, giteye mu byatsi, hepfo yacyo hakaba hari imihanda inyurana ya kaburimbo, hepfo yayo hakaba hari ibiti byinshi bigaragara nk'ibihuru.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu mabara abiri ariyo umutuku, umweru ndetse hakaba hashushanyijemo agashushamo kari mu ibara ry'umukara.

inyuguti nini ya P yanditse mu ibara ry'umweru munsi yayo hashushanyije imodoka nini y'umweru itwara abagenzi biri mw'ibara ry'ubururu rizengurutswe n'umweru

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru gishushanyijemo inyuguti nini ya pa, munsi yayo hashushanyijemo imodoka itwara abagenzi hakoreshejwe ibara ry'umweru giteye mu gisambu, haruguru hagaragara ibiti n'amazu y'amagorofa.

Icyapa kiri mu mabara abiri ariyo umweru ndetse n'umutuku, hashushanyijemo ishusho y'umugabo uri mu ibara ry'umukara ndetse n'imirongo y'umukara izamuye.

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara, gishinze mu gisambu munsi yacyo hahagazemo umugore, iruhande rwacyo hari umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umuhondo ugiye gutaragurika.

Inyuguti nini cyane ya Pa, yanditse mu ibara ry'umweru, ku mbuga y'ubururu, munsi yayo hashushanyije imodoka, bakoresheje ibara ry'umweru, itwara abagenzi.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijemo uruziga rutsindagiye rw'umutuku, mo imbere mo hagati harimo umubare makumyabiri wanditse mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri ku muhanda. Iki cyapa kigizwe n'amabara y'umweru n'umutuku, ariko nta kintu na kimwe cyanditseho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kugenda. Ku ruhande rw'umuhanda hari icyapa cy'ubururu kiriho inyuguti ya 'P'. Iki cyapa cyerekana ko imodoka yemerewe guparika aho ngaho, mu gihe wenda hari nk'abagenzi ishaka gushyira cyangwa gukuramo. Hirya y'umuhanda hari urukuta rwubakishije amabuye.

Ahantu h'umweru hashushanyijemo igishushanyo cya mpandeshatu gicuritse, gishushanyishijwe ibara ry'umutuku, hagati harimo utumenyetso dutatu dushushanyije mu ibara ry'umukara.

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara giteye mu mbuga y'amabuye, iruhande rwacyo hari igisambu kigaragaramo ibyatsi ndetse n'ibyondo, harimo n'imashini ihinga, hakurya hagaragara umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abagenzi.

Inzu igaragara igice cyo hejuru ifite ibati rijya gusa nk'ubururu hakurya yayo hari andi mazu menshi afite amabati agiye atandukanye hagati yayo hateyemo ibiti.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Inzu y'igorofa yubakishje amatafari ahiye mu mpande z'inzu hateye ibiti birebire cyane, bireshya nkayo by'imikindo, hanze hari urugi rw'umweru n'imbuga y'igitaka.

Inyubako ndende y'igorofa yubatse ku muhanda. Imbere yayo hari abantu batambuka ndetse n'ibinyabiziga biri mu muhanda wa kaburimbo.

Imbuga isashemo igitaka, ifatanye n'agace gatoya k'ubusitani, haruguru yako hakaba hari agahanda gato gasashemo amabuye, gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo.

Inzu ntoya isakaje amabati yo mu ibara ritukura, inyuma yayo hateye urutoki ndetse n'ibiti, haruguru hari inzu nini isakaje amabati atukura ndetse hari kunyuraho insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Amazu akikijwe n'ibisambu agaragara nkaho ari mu ishyamba haruguru hateye ibiti birebire hejuru ku musozi hari amagorofa atatu agaragara mu ibara y'umweru.

Agace gato gasashemo amabuye gafatanye n'igisambu giteyemo ibiti birebire hasi hagaragara ibicucu byabyo hari n'abantu babiri bicayemo umwe yambaye umupira w'umweru undi yambaye umupira w'umuhondo

Inyubako zimeze nk'iziri mu gishanga haruguru yazo bameze nk'ahari imirima ndetse n'ibiti haruguru hakaba hari amazu menshi yubatse mu buryo bumwe inyinshi muri zo zisakajwe amabati ari mu ibara ritukura.

Imbuga y'igitaka haruguru yayo harimo igisambu giteyemo ibiti gifatanye n'umuhanda wa kaburimbo ufatanye n'ubusitani buteyemo ibiti hubatsemo n'igorofa ndende, mu muhanda hari kugenda imodoka y'ubwikorezi.

Igorofa ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari imodoka zitwara abantu ku giti cyabo, inyuma hagaragara indi nyubako isakajwe amabati ajya kuba mu ibara ritukura n'agace gatoya k'ikirere kigaragara hejuru.

Igisambu kirimo ibiti ndetse n'ibihuru, hepfo hagaragara abantu hameze nk'ahari umurima, hakurya hagaragara amazu agiye afite amabati y'amabara atandukanye.

Igisambu kinini kirimo ibihuru bigufi ndetse n'ibyatsi hateyemo n'ibiti hejuru hari amagorofa menshi kandi magari.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo abagabo babiri umwe areba hepfo undi areba haruguru, umwe yambaye ishati y'umutuku n'ipantalo y'umweru undi akaba yambaye ikote ry'umukara n'ingofero y'urugara mu mutwe bari kureba amazu y'amagorofa yubatse haruguru yabo.

Igisambu giteyemo ibiti birebire hasi mu gisambu hagaragara ibicucu byacyo hari abantu babiri bicayemo umwe yambaye umupira wumweru w'amaboko magufi undi yambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi .

Umuhanda uca hagati y'amazu, hahagazemo amapikipiki, harimo n'urujya n'uruza rw'abantu, hakaba hari inzu ifite icyapa cyanditseho amagambo y'ubururu ndetse n'umutuku, handitseho n'imibare, hakaba hagati hashushanyijemo urufunguzo.

Agahanda gashashemo amabuye iruhande rwako hateye indabo ndetse n'ibiti bigufi gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ufitemo ubusitani hagati buteyemo ibiti birebire by'imikindo hari kugendamo n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ubusitani butoya mo hagati uteyemo ibiti bibiri by'imikindo, hari kunyuramo ipikipiki ndetse n'imodoka y'umukara, hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo mugari kumpande uciyemo umurongo w'umweru imbere hagaragara inyubako imbere yazo hateye ibiti bitandukanye harimo n'igiti cy'umukindo .

Umuhanda usashemo amabuye ufatanye n'umuhanda wa kaburimbo, ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, hakurya hari ubusitani buteyemo ibiti birebire by'imikindo.

Agace gatoya k'ubusitani gateyemo ibiti bikiri bigufi, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru, uri gutambukamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Igiti kirekire cyane giteye iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro uri kugendwamo n'ipikipiki ndetse n'imodoka ebyiri ntoya hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo werekana aho abanyamaguru bambukira, hepfo yaho hagaragara nk'ishyamba uwo muhanda urugucamo amapikipiki atwaye abagenzi.

Agace gato k'imbuga isashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo miremire y'umweru iri gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amapikipiki.

Imbuga ntoya y'igitaka, ifatanye n'indi mbuga isashemo amabuye, uruhande rwazo hari umuhanda wa kaburimbo, ufite ubusitani butoya hagati y'umuhanda uteyemo ibiti by'imikindo, hakurya hagaragara ibiti byinshi bimeze nk'ishyamba.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira hari kwambukamo umugabo hagaragara n'imodoka ntoya y'umukara hagati mu muhanda hari ubusitani hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ufite ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, buzengurutswe n'ahantu hasize amabara y'umweru ndetse n'umukara, hari gucamo imodoka ntoya, hakurya haragaragara ibiti.

Agace gato k'ahantu hasashwe amabuye gakikijwe n'ahantu hashushanyije imirongo y'umweru ndetse n'umukara gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo hashushanyijemo imirongoro y'umuhondo inyuranye hari n'ahandi hashushanyije imirongo y'umweru ihagaze hakurya hagaragara ibiti.

Imbuga y'igitaka ihagazemo imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo imbere hagaragara uruzitiro rw'amabuye ruzitiye inzu isakarishijwe amabati ari mu ibara ritukura.

Umuhanda wa kaburimbo usa nk'uwasadutse urimo umurongo w'umuhondo ugiye utaragurika, uri kugendamo ikinyabiziga kimwe, hakurya yaho no hino hayo hateye ibiti byinshi.

Umuhanda usashemo amabuye, ufatanye n'umuhanda wa kaburimbo, hari kunyuramo ibinyabiziga byinshi, higanjemo amapikipiki, hagati mu muhanda hari ubusitani butoya buteyemo ibiti birebire by'imikindo, hakurya yaho hagaragara ibiti byinshi.

Umuhanda usashemo amabuye, ufatanye n'umuhanda wa kaburimbo, igice kimwe cyawo kigaragara nk'igitose, hari kugendamo amapikipiki n'imodoka, hakurya yaho hagaragara ibiti birebire.

Agace gato k'imbuga isashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo umurongo w'umuhondo, bitandukanijwe n'umurongo w'umweru, ndetse n'umukara, umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hakurya yaho bateye ibiti.

Hari kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande hari umuhanda w'abanyamaguru, hakurya yaho hateye ibiti by'imikindo birebire cyane, hari n'imodoka ziri guturuka muwundi uri hakurya yaho.

Imbuga y'igitaka igiye irimo utubuye dutoya tw'amaserebwayi iri kunyura hagati y'amazu iruhande rw'amazu hateye indabo ndetse n'ibiti hari n'urugi rw'umukara rwinjira mu nzu isakaje ibati.

Kayibanda Gereguwari Perezida wa mbere w'u Rwanda, aho yabaye Perezida guhera mugihumbi kimwe maganacyenda mirongo itandatu na kabiri, kugeza mugihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi naga gatatu, yayoboye u' Rwanda rukibona ubwigenge barukuye mu maboko y'ababiligi.